Inyubako zikorerwamo ubucuruzi butandukanye, hakaba hari ibyapa byinshi biri hafi aho bigaragaza ibikorerwamo, inzira nyabagendwa iri imbere yayo iri kunyurwamo n'umugabo wambaye ipantaro y'umukara n'ishati y'umweru, inyuma ye hari abandi bantu bari kuhatambuka ndetse hari icyapa cyanditseho p, imbere y’aho hakaba hari imodoka ziparitse.

Icyapa cy'ubururu kiriho umusore uri guseka afite akantu k'ubururu mu ntoki ze iyo yambaye isaha y'umukara n'agapira k'umukara hari amagambo ari mu ibara ry'umweru handitsemo ngo ibizazane by'ubuzima ntibiteguza ubwishingizi bw'impanuka bwa perime bugufasha kuguma utekanye.

Icyapa cya radiyanti muri gahunda ya turikumwe hari amagambo arimw'ibara ry'ubururu agaragaza kugura ubwishingizi bw'ubuzima n'umuryango harimo umuryango urimo: papa, na mama, n'abana.

Icyapa kinini cyamamaza Buritiyamu hakaba hari umugabo n'undi musore wambaye amarinete n'itaburiya y'ubururu, bakaba bari gukorera ahantu, ubwishingizi bwo kwivuza bwagenewe amatsinda n'ibigo bito.

Akapa k'ubururu kariho amagambo atukura, munsi hakaba hara andi y'umukara, hirya hakaba hari ikiganza kiri kwandikisha ikaramu y'igiti, gishushanya akantu kameze nk'itara riri kwaka.

Icyapa kinini kiriho udutara, hakaba hariho amagambo agaragaza ibyo bari kwamamaza, umugore n'umugabo bari kuri icyo cyapa, hasi hari nimero za terefone n'urubuga wasura ugasobanukirwa ibyo ari byo.

Ahantu hacururizwa imyambaro itandukanye, harimo inkweto, imyenda y'imipira n'amashati, hakaba hari udupira tugeretse ku tuntu bamanikaho imyenda, ubururu, umuhondo, umukara na orange n'icyatsi.

Iduka rinini ririmo ibicuruzwa bitandukanye hakaba harimo umumama wambaye agatambaro k'icyatsi, imbere ye akaba afite agakayi n'agakaramu, umuguzi umuri iruhande akaba afite agasatsi gakeya, hirya hakaba hari ikaziye irimo ibyo kunywa bihacururizwa n'imifuka irimo ibicuruzwa bitandukanye.

Ahantu hakorerwa ubucuruzi bw'imyenda, hakaba hari ibipupe bitandukanye, birimo imyenda igurishirizwa ahongaho inyuma, hari amabara atandukaniye, udukanzu duhari ubururu, umutuku, umukara n'umuhondo hejuru yaho hari ibindi.

Ahantu hakorerwa ubucuruzi bw'ubugeni butandukanye, intebe zikozwe mu bitenge n'imisego yayo, inyuma hakaba hari amakanzu y'amabara atandukanye ari kuhacururizwa, ikimaneke cyambaye ikanzu irimo utubara dutandukanye, shokora, umuhondo na oranje, hirya hakaba hari n'utundi tuntu.

Umumama cyangwa umukobwa uri ahantu hagurirwa imyambaro, wambaye agakote k'ubururu, ufite imisatsi myiza irimo agahondo gakeya, inyuma ye hakaba hari ibicuruzwa biri aho hantu, hari udusakoshi ndetse n'utundi tuntu tw'umweru n'umukara, akaba afite umwenda w'umukara ari kureba uko umeze

Imodoka nziza cyane y'umukara iparitse imbere y'inyubako igeretse, hafi aho hakaba hari ibyatsi n'ibiti bitandukanye, hakaba isa n'ibara ry'umukara, hari amagambo y'umweru ari inyuma, yanditsemo V, I, na P ndetse n'amatara atukura ari inyuma yayo.

Abagabo bagera muri batatu bahagaze imbere y'ikamyo nini yumweru ifite ibara ry'umukara ku ruhande, hakaba hariho agahondo, bambaye umupira w'icyatsi undi ipantaro y'umweru, undi yambaye inkweto z'umuhondo, bafite udukapu imbere yabo dutukura n'akantu k'ubafasheho bose.

Imodoka y'umukara iparitse ahantu hahagaze abagabo babiri, uwambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara, akaba afite akantu k'umweru, inyuma y'aho hari inyubako, uko bigaragara hakaba hari izindi modoka ziri kugaragara mu birarahure, hakaba hasa n'aho hacururizwa imodoka.

Abagabo babiri bahagaze imbere y'imodoka nini cyane y'umweru, inyuma y'aho hakaba ari umunara muremure n'insinga z'amashanyarazi, inyubako igeretse ifite ibirahure birebire, umwe yambaye ishati y'ubururu yerurutse n'ipantaro y'ubururu, inkweto n'undi nawe yambaye ingofero.

Inyubako nini iri gukorerwamo ubucuruzi, hakaba hari icyapa kinini kigaragaza ibicururizwamo, amagambo y'ubururu ari muri icyo cyapa, hasi hakaba handitseho Rwanda ndetse n'ubwoko bw'imodoka bucururizwamo zikaba ziri kugaragara agace gatoya muri senyenge.

Ahantu haparika imodoka hashashemo utubuye, hahagaze imodoka eshatu zitandukanye, abagabo babiri, uwambaye iby'umukara n'uwambaye ishati y'umweru n'ipantaro, bari imbere y'izo modoka umwe afite akantu k'umutuku ari kugahereza mugenzi we.

Abagabo batatu batandukanye bahagaze imbere y'modoka ebyiri, inyuma yabo hari igishitingi kitagaragara neza. Bafite akantu k'umweru mu ntoki zabo, uwambaye inkweto z'umukara n'iz'umweru; hari uwambaye ishati y'umukara, undi akaba yambaye agapira.

Inyubako ndende igeretse ikikijwe n'ibiti biri iruhande rwayo, imbere yabo hakaba hari imodoka zitandukanye ziri mu mabara menshi, hari imodoka y'umukara ifite amabara atukura ,amatara atukura iruhande rwayo, inyuma hakaba hari icyapa kigaragaza ko igurishwa.

imodoka y'umukara ifite amatara y'umweru ayo hasi hakaba haririmo akabara ka orange imbere hajya plaque hakaba arimo ijambo ryanditse mu ibara ry'umukara handitsemo kigali cars market akaba ari imodoka igurishwa, inyuma yaho hari ibiti bitandukanye n'utuntu tw'ubururu n'umweru

Ahantu hari imodoka y'umuhondo namapine y'umukara. Hakaba hari umugabo ufite imbunda mu ntoki ze, wambaye imyenda na kasike mu mutwe we, n'abandi babiri bambaye imyenda isa n'iyiwe. Irimo umutuku, n'umukara n'umuhondo.

Ahantu hakorerwa igikorwa cyo kwakira no guhereza amafaranga, hari umukobwa wambaye rinete n'agapfukamunwa k'umukara, agashati karimo imirongo y'umweru n'umukara, imbere ye hari mudasobwa, ari guhereza umugabo wambaye umupira utukura amafaranga wambaye n'agapfukamunwa.

Ibiganza bibiri by'umuntu uri mu kazu k'ubucuruzi k'umuhondo, akaba yambaye agapfukamunwa, imbere hakaba hari mudasobwa ari kubara amafaranga, hanze hakaba hari umumama wambaye agapfukamunwa gatukura n'agashati karimo ibara ry'umukara n'umweru.

Akazu gakorerwamo ubucuruzi, mo imbere hakaba harimo umugabo ufite akamashini k'umweru wambaye ishati, hejuru hakaba hari amabara atandukanye icyatsi, umuhondo n'umukara n'umutuku, hirya na ho akaba ari uko, abantu bahagaze imbere y'ako kazu ni abadamu babiri n'umusore umwe wambaye umupira w'umukara.

Ahantu hacururizwa ibyo kurya n'ibyo kunywa bitandukanye, umuntu yakwifashisha ako kanya atagombye kubiteka, akabati karimo amandazi, amaji ndetse n'amata y'inyange, hejuru hari akajerekani k'umweru, hirya hakaba hari icyapa gishushanyijeho Inyange.

Ahantu hakorerwa ubucuruzi bw'amata, hakaba hari idirishya rinini ry'ubururu, hakaba harimo umuntu uri kugaragaraho igice kimwe cy'ikiganza cye, imbere yaho hari ameza manini ariho igicupa kinini n'igikombe cy'umweru n'ikayi, umuntu wambaye ishati ya karokaro ufite agasatsi gakeya ufite mu ntoki ze ijagi.

Inzu icururizwamo amata hakaba harimo icyuma kinini cy'amata n'akajaga kari imbere yaho ku makaro, gasa umutuku kari gutonyangiramo amata, hirya hari icyuma kiriho utuntu tw'icyatsi, ubururu n'umuhondo, idirishya rinini ririmo ibara ry'icyatsi.

Ahantu hacururizwa ibyo kunywa n'ibyo kurya bitandukanye umuntu ashobora kwifashisha ako kanya, ameza y'umweru ariho ijage y'ubururu, inyuma hari icyuma kinini gitanga amata, umugabo wambaye umupira utukura uri imbere ya akayetajeri karimo amandazi, inyuma ye hari akandi kayetajeri karimo ibyo kunywa bitandukanye, amata, ji na fanta.

Ahantu hakorerwa ubucuruzi bw'amata, hakaba hari ibikombe bibiri by'umweru birimo amata n'akajerekani, intebe iri hafi aho ngaho ku meza harimo ibara ry'ubururu n'umukara hirya hari agatajeri n'ibindi bintu birimo imbere.

Ahantu hacururizwa ibyo kurya n'ibyo kunywa bitandukanye umuntu ashobora kwifashisha ako kanya, indobo irimo amandazi n'indirimo capati, inyuma hakaba hari akabati karimo Inyange, amata n'amazi ndetse na fanta zitandukanye.

Intebe y'ubururu inyuma hakaba hari umugabo wambaye ipantaro iri mu ibara ry'ivu n'ishati y'umukara akaba ahagaze imbere ya kontwari ahantu hari umukobwa wambaye akenda k'icyatsi inyuma ye hakaba hari ibinyobwa bitandukanye bicururizwa ahongaho icyuma cyamata n'amaji n'amazi bitandukanye.

Urupapuro rw'umweru rwanditseho amagambo menshi atandukanye, mu ibara ry'umukara, hariho n'utundi tuzu tugiye dutandukanye, munsi hari ikiziga, umuntu ashobora gusinyaho, ku ruhande rw'ibumoso hakaba hari akarangantego k'u Rwanda, ku rw'iburyo hari akandi gashinzwe ikigo cy'imisoro n'amahoro mu Rwanda.

Inoti irimo amabara atandukanye ya shokora, umukara, icyatsi, hakaba hariho n'imibare ikaba ari ibihumbi bitanu yo mu bwoko bw'amashiringi mu gihugu cya tanzaniya.

Akantu k'umukara gatoya babikamo amafaranga gakunze gukoreshwa n'abagabo karimo inote zitandukanye harimo inote y'ibihumbi makumyabiri n'iy'ibihumbi icumi iy'ibihumbi bitanu n'iy'igihumbi n'inoti ya magana atanu izo note zikaba ziri mu mabara atandukanye.

Inoti nyinshi zirunze ahantu hamwe, zikaba zifite imibare itandukanye, hari ahariho mirongo itanu ahandi ijana. Umugabo w’uruhara ufite imisatsi miremire n'ubwanwa ku noti imwe irimo amabara y’umukara, icyatsi.

Ikiganza cy'umugabo ufite uruhu rwera, akaba yambaye kositime na karuvati, akaba afite amafaranga menshi mu ntoki ziwe, hirya inyuma ye hakaba hari icyapa cy'umuhondo kirimo amagambo y'umukara, umweru n'umutuku, hasi hagaragaza bimwe mu bikorerwa aho.

Ahantu hakorerwa ubucuruzi hari amazu atatu afite amabara atandukanye hagati harimo iry'icyatsi ku ruhande gato gafite ibara ry'ubururu n'irindi risa move inyuma yako hari abantu baje guhaha se cyangwa abakiriya b'imbere habamo abakozi bakoreramo.

Inyubako iriho amagambo ku ruhande agaragaza bimwe mu bihakorerwa, ari mu ibara ry'ubururu n'umutuku n'umukara n'icyatsi kuruhande, ivase ririmo ururabo rwiicyatsi n'utundi tuntu tw'amatafari; imbere muri yo hakaba harimo umugabo wambaye ipantaro y'ikoboyi.

Ikiganza cy'umuntu wambaye ishati y'umukara kiri imbere y'imashini irimo utugozi, n'akantu gatukura kari inyuma yaho, hejuru hari kamera iri ku kantu kameze nk'urubaho, mudasobwa iri imbere yaho, inyuma yaho hakaba hari inkingi y'umweru.

Icyapa kinini cy'umweru kiri ku nyubako ifite irangi ry'ubururu imbere hakaba hari ikindi cyapa gitukura, kiri kugaragaza ibikorerwa aho hantu, kuri iyo nyubako, icyapa cyanditseho amagambo ari mu ijambo ry'umukara, Giraneza n'andi ari mu magambo atukura.

Ingofero nziza cyane irimo akabati gakozwe mu mbaho, hakaba harimo imitako itandukanye, indabo z'icyatsi ziri mu tuvaze tw'umweru, televiziyo nini cyane n'izindi ndabo ziri iruhande rwayo, imbere yaho hari agatapi k'umweru.

Ahantu hari inyubako ifite ibicuruzwa biri hanze, matela, intebe, ameza, utubati bifite amabara atandukanye hakaba hari n'intebe ziri mu mabara atandukanye umuhondo, ubururu, icyatsi na oranje imbere muri ho hakaba hariho urugi rusa shokora.

Agace gato k'umuferage w'amazi ukikijwe n'ibyatsi, hakurya hakaba hari imbaho zitandukanye, hari izipanze n'izirambitse hasi, umugabo wambaye imyenda y'ubururu, inyuma yaho hakaba hari indi nyubako n'ibiti bihakikije.

Intebe zigera muri enye z'urubaho zisa n'ibara rya shokora zikikije ameza maremare ariho utuntu ku ruhande rw'umukara n'umweru, hirya hakaba hari ibindi bintu bitagaragara neza bimeze nk'ibitanda n'akantu k'umweru.

Ahantu hameze nk'aho kwakirira abantu muri salo y'umuntu hakaba ari ameza atatsweho n'ururabo rutukura ruri mu kantu k'akarahure, hirya harimo undi mutako w'icyatsi na ekara cyangwa se televiziyo, hejuru hari amatara atandukanye...

Inyubako ebyiri zitandukanye ziteganye, imbere yaho hakaba hari imodoka iparitse mu muhanda w'umukara, ikaba ifite amatara atukura, hakurya hakaba hari utuntu tw'umweru, ibyatsi bikikije uwo muhanda ku ruhande.

Ahantu hari ibyo kunywa n'ibyo kurya bitandukanye harimo imbuto ndetse n'imigati, biri ku meza n'utunu tw'utwuma biteretseho hejuru, hakurya hakaba hari andi meza ariho ibyo kurya bitandukanye.

Abantu bicaye ku ntebe z'umukara bambaye imipira itukura, ku meza y'umweru, inyuma yaho hari icyapa kinini kiriho abantu batatu; umukecuru, umwana n'umumama, n'amagambo atukura ari hejuru yaho...

Inyubako nini cyane igeretse irimo amabara yubakishijwe amatafari ahiye ndetse hakaba harimo ibirahure birebire amagambo y'ubururu yanditse kuri icyo cyapa cy'umweru imbere y'aho hari abagabo bagendagenda na motari utwaye umugenzi.

Icyumba kiri gukorerwamo akazi, hakaba hari umumama uri kuri telefone yicaye ku ntebe y'umukara, imbere ye hakaba hari mudasobwa, inyuma hakaba hari icyapa kigaragaza bimwe mu bikorerwa aho ngaho, hirya hakaba hari abandi bicaye ku meza, umuzungu ndetse n'undi ufite imisatsi miremire.

Amadirishya atandukanye arimo abantu mo imbere hakaba harimo na za mudasobwa, inyuma hakaba hashushanyije bimwe mu bikorwa bikorerwa aho ngaho, akapa kanini kari mu ibara rya shokora, hakaba harimo ijambo g ndetse risobanura sonarwa, hirya hakaba hari ahandi hantu hicayemo umuntu.

Abantu bari imbere y'inyubako iriho ibipurizo imbere yaho bifite amabara atandukanye umuhondo, ubururu, n'umweru, hejuru hakaba hari icyapa kigaragaza ibihakorerwa, undi muryango uri hirya harimo akabara ka oranje n'amabati matoya ari kugaragara agace gato.

Inyubako igeretse iriho icyapa cy'ubururu kirimo amagambo y'umweru agaragaza ibikorerwamo, hakaba hari n'ibindi byapa bishushanyijeho umugabo n'umugore n'akana gatoya.

Abadamu bagera muri barindwi birabura bari mu cyumba kimwe hakaba bafite imitako iri imbere yabo y'ubugeni, bakaba bambaye imyenda itandukanye ibitenge n'abambaye amakanzu, bakaba bafite imisatsi itandukanye abasutse.

Icyapa kinini cy'ubururu cya I&M bank kiri kwamamaza ibikorwa byayo muri gahunda ya iyubake, hari amagambo ari mu ibara rya oranje yanditseho ngo tugane tuguhe agera kuri mirongo irindwi ku ijana, umukobwa wambaye ikote ry'umweru n'agapira kajya gusa ubururu ari gutunga intoki agaragaza uko wabikora.

Amagambo ari mu ibara ry'umweru, akaba yanditse ku cyapa kiri gu gusa umuhondo, hakaba hari inyakiramajwi hasi ndetse n'amagambo ari hasi agaragaza ibiri kwamamazwa, hakaba hari amagambo ari mu ibara ry'umweru mu nyuguti zirimo b na r na d.

Amagambo y'ubururu ari mu cyapa cy'umweru n'andi mabara atandukanye umukobwa uri iburyo wo ufite direde z'umukara n'umutako afite mu ntoki ze yambaye akantu k'umuhondo n'ubururu umupira w'umweru n'udukomo ku ruhande munsi hari amagambo ari mu ibara ry'ubururu.

Icyapa kiriho amagambo yo mu ibara ry'umweru ndetse n'ayo mu ibara ry'icyatsi, handitsemo ngo dushyira imbere iterambere rya buri mugore, hariho abadamu babiri cyangwa se abakobwa bifashe neza, bambaye udukomo dutandukanye, bose bafite imisatsi myiza.

Umuntu uhetse umwana ahagaze mu isoko yambaye agatambaro mu mutwe, imbere ye hari amashu, hirya hari pavurori n'inyanya inyuma ye na kokombure n'ibindi bintu bitandukanye biri muri iryo soko, ahetse umwana wambaye akenda gasa n'iroza.

Umujyi munini urimo ibinyabiziga bitandukanye, ibiti biri imbere y'izo nyubako z'ubucuruzi, hakaba hari n'amapoto y'umuhanda, hakurya hakaba hari n'izindi nyubako zitandukanye.

Ahantu hagura hakagurishirizwa ibicuruzwa bitandukanye, harimo abantu b'ingeri nyinshi, abagabo n'abagore n'abana, harimo amasakoshi amanitse ku tuntu tw'utubaho ndetse hari abantu bicaye ku ruhande n'abari kuzamuka ku ma...

Inyubako nini y'isoko, imbere yaho hakaba hari abantu benshi b'ingeri zitandukanye, hakaba hari ibyapa bigaragaza ibikorerwa muri buri muryango hirya no hino, abantu bahagaze imbere yaho bambaye imyenda, umweru, umuhondo, ubururu, n'umukara n'andi mabara agiye atandukanye.

Ahantu hakorerwa ubucuruzi hicaye umumama wambambaye agatambaro k'umukara karimo utuntu tw'umweru, wifashe ku kananwa wambaye amaherena maremare, hafi yiwe hari ibicuruzwa bitandukanye ari gucuruza, ubunyobwa buri mu masashi, ibihaza biri inyuma ye, powavuro n'ibibiriganya, imineke n'inyanya n'ibindi.

Inyubako ndende igeretse ifite ibyapa ku ruhande bigaragaza ibikorerwa muri izo nyubako, imbere yaho hari imodoka ziparitse n'abagenzi bari kugenda, umuhanda munini urimo imoto zitandukanye, hirya hakaba hari amatara ku muhanda n'ibiti.

Umuntu wambaye umupira wa oranje uri mu isoko rinini rimo ibicuruzwa bitandukanye, inyuma ye hakaba hamanitse imipira n'ibindi bicuruzwa bitandukanye byubugeni, hejuru hari ibitenge, abantu bambaye imyenda y'umukara ndetse n'uwambaza agasengeri k'umweru.

Umuma wambaye imyenda y'umukara n'agatambaro k'umuhondo, mu ntoki ze afite amafi n'icyuma. Arigukora mu mazi ayunyuguza. Iruhande rwe hari ibasi irimo andi mafi atandukanye. Inyuma ye kuri icyo cyambu hari abandi bantu bahagaze, bahagaze mu mitaka.

Akazu ka MTN gakorerwamo ubucuruzi bw'ibijyanye na byo byose. Hahagaze imbere umugabo wambaye umupira w'umukara wanditseho amagambo y'umweru, handitseho ngo polisi, n'andi magambo ari munsi yaho ari mu kabara gatukura. Hirya hari umukobwa, hakurya hari inyubako irigukorerwaho ubucuruzi bw'imyenda.

Akazu gatoya k'umuhondo, karimo amagambo ari mu ibara ry'ubururu handitsemo momo, n'abakobwa babiri bicaye muri ako kazu kameze nk'umutaka, imbere yabo hakaba hari ibicuruzwa bitandukanye, imipira imanitse yo kwambara.

Abantu babiri bari kumwe, umwa akaba yambaye umupira w'umuhondo uri mu magambo y'ubururu n'andi mabara, hakaba handitsemo ijambo emutiyeni yambaye amarinete afite aga telefone mu ntoki, iruhande rwe hari mudasobwa, undi mugenzi we yambaye umwenda w'umukara urimo ibara ry'umweru na oranje uri guseka inyuma yaho hakaba ari ibyapa, bigaragaza ibikorerwaho.

Umugabo uhagaze wambaye ipantaro y'umukara n'ishati y'umweru ufite igitabo mu ntoki ze cyangwa ikaye, iruhande rwe hari uwambaye umwenda w'ubururu ufite ibisuko hari abandi batandukanye bahagaze imbere bari mu kazu karimo umuhondo n'umweru.

Ahantu hari kubera ubucuruzi butandukanye, hakaba hahagaze abakobwa babiri mu mutaka wa MTN iri mu ibara ry'umuhondo n'ubururu, hakaba hari indangururamajwi ndende iiruhande rwaho, inyuma hakaba hari indi shitingi y'umweru yicayemo abantu batandukanye.

Umucuruzi uri mu kazu ka MTN gasa n'umuhondo, hanze hakaba hahagaze abagabo babiri bambaye imyenda isa, umwe akaba afite agakapu ku rutugu, hakaba handitseho amagambo ari mu ibara ry'umukara kuri ako kazu k'umuhondo.

Abagabo babiri batandukanye, umwe akaba afite uruhu rwera, afite rineti mu ntoki ze, wambaye agashati k'umukara karimo n'ibara ry'umuhondo n'utundi tubara dutandukanye, ahagaze imbere y'uwambaye agapira gatukura mu kazu ka eyateri, karimo utuntu dutuma atamubona neza tw'utugiriyaje.

Ibiganza bibiri by'umugabo ufashe telefone mu ntoki ziwe, ikiganza cye cy'ibumoso kikaba kiriho agakomo kariho akantu k'agasaraba k'akabaho ndetse muri telefone ye hakaba harimo ibintu bitandukanye.

Abantu benshi bicaye mu kazu k'agashitingi, bambaye imipira y'umuhondo n'amapantaro y'ubururu, imbere yabo hari undi mukobwa ufite akuma k'inyakiramajwi mu ntoki ze, wambaye rinete ku musatsi we, inyuma ye hakaba hari icyapa kiriho abana babiri, ufite ibisuko n'undi wambaye karuvati bose, hakaba hariho amagambo kuri icyo cyapa atandukanye.

Akapa k'ubururu kariho amagambo y'umukara n'imibare wakanda, hasi hari amagambo y'umweru ari mu ibara ry'ubururu n'amazina y'umucuruzi umuntu ashobora kwishyuriraho mu gihe akanze momo peyi.

Akazu k'umutuku gateretse ahantu karimo utubara tw'umukara ku ruhande n'ibyapa bigaragaza ibikorerwa muri ako kazu harimo amagambo ari mu ibara ry'umweru n'ari mu ibara ry'umuhondo bikaba bigaragaza.

Ahantu hakorerwa ubucuruzi butandukanye bw'umurongo umwe w'itumanaho mu Rwanda, ruzwi nka Eyateri, hari ibyapa biriho abakobwa babiri bafite telefone mu ntoki zabo n'amagambo ari mu kapa gatukura y'umweru ari hejuru yabo.

Abagabo babiri bahagaze imbere y'urugi rurerure, uwambaye ipantaro y'umukara n'ishati y'umweru, imbere ya moto iriho akantu kari mu ibara ry'ubururu n'icyatsi ndetse uwo mugabo wundi, akaba yambaye ipantaro itukura n'inkweto z'umukara ishati yumweru ufite ubwanwa.

Umuntu wambaye rinete ziriho akantu gatukura, amagambo ari ibumoso bwe ari mu ibara ry'umweru, imbere ye hari ifiriti ziri mu kantu k'akarito n'inyama y'inkoko ndetse n'umugati urimo ibintu bitandukanye.

Abagabo babiri batandukanye bambaye rinete umwe z'umukara undi izitukura bafite imisatsi, umwe akaba yirabura undi akaba afite uruhu rwera, bafite imbere mu ntoki zabo utuntu dusa n'icyatsi tumeze nka kasike harimo amagambo y'umweru.

Inyubako nziza cyane ikodeshwa amafaranga ibihumbi ijana na cumi buri kwezi, iherereye Kicukiro- Kagarama mu Mujyi wa Kigali, hari uduce dutoya turi kugaragara, urugi, intebe, n'ameza y'umukara, hino hari insakazamashusho iri kugaragara n'akabaho...

Inyubako nziza cyane iri kugurishwa amafaranga y'u Rwanda, miliyoni ijana na mirongo ine. Ikaba iherereye mu mujyi wa Kigali. Hariya rero ikaba ifite amakaro hasi, inzugi nziza cyane zisa shokora n'amadirishya maremare, n'udutara turimo imbere.

Ahantu harimo firigo ndende n'icupa ry'amazi riri hejuru yayo n'agakapu k'umukara, iruhande rwayo hakaba hari akantu kameze nk'idebe gafite umufuniko w'umuhondo, hirya hakaba hari itapi irimo uturongo ndetse n'iyindi y'umutuku n'amarido arimo utubara dutandukanye na shokora.

Inyubako nziza cyane ikodeshwa, ikaba iherereye mu mujyi wa Kigali Kanombe, irimo ibyumba birindwi bitandukanye, ikodeshwa ibihumbi magana ane buri kwezi, hari ibyumba bitatu biri ukwabyo n'ibindi bine.

Icyapa kinini kirimo amagambo y'umukara ndetse n'akabara ka shokora ku ruhande, hasi hakaba hari ibikorerwaho amagambo abigaragaza ndetse n'urubuga ushobora gusura na nimero zabo za telefoni.

Inyubako ifite amabati y'umukara ikaba iri mu ibara ry'umweru n'ibirahure birebire cyane, amakaro ari hanze aho ngaho n'utubuye dushashe hasi turi mu ibara ry'umweru n'umutuku, umupira munini w'amazi.

Irido rirebona riri mui ibara rya shokora n'umweru, imbere yaho hakaba hari udutako dutandukanye, n'akameza k'urubaho hariho akantu k'akuma k'umukara, hejuru hakaba hari tereviziyo ndetse n'akadekoderi ku ruhande, imbere ya bo hari akandi kameza kariho indabo.

Abantu bari mu isoko ririmo ibicuruzwa bitandukanye, umuntu wambaye ipantaro y'ubururu n'agashati k'umweru karimo amabara y'umukara. Inyuma ye hakaba hari abandi bari kugura bimwe mu bicuruzwa bicururizwa aho ngaho b'ingeri zitandukanye; abagabo n'abagore, umugabo wicaye akaba ari gucuruza.

Ahantu hameze nko mu iguriro rigurirwamo ibyo kurya ry'udusinapusi umuntu yahita arya ako kanya, harimo utuntu dutandukanye, utw'umuhondo, ubururu, umutuku n'icyatsi, ku ruhande munsi hari n'utundi turi muri ambaraje.

Ibiganza bibiri by'abantu b'abagabo biri ahantu ku cyapa gisa n'ibara rya move hariho ibirangantego bya Arasiyesibi, ubwisungane mu kwivuza mu Rwanda, hakaba ari n'andi magambo yanditse mu ibara ry'umweru.

Abantu benshi bicaye mu cyumba runaka buri wese akaba afite impapuro mu ntoki z'iwe na mudasobwa kuri bamwe, hari uri imbere ye agaterimosi n'akandi kuma k'umukara gasa naho gasohora impapuro, hirya hakaba hari ibishushanyo n'ibyapa bigaragaza bimwe mu bikorerwa aho ngaho.

Abantu benshi bahagaze ahantu hari kubera ibiganiro, bakaba basa n'aho bahanze amaso abari imbere yaho, inyuma hari ibyapa bitandukanye biri kugaragaza mu by'ukuri ibiri gukorerwa aho hantu, hari abafite imitaka bicaye hasi, abambaye imyenda itandukanye bari kugenda aho ku ruhande.

Umukobwa ufite imisatsi myiza miremire wambaye ingofero n'agasakoshi ku rutugu, wambaye inkweto z'umweru, ufite akantu bahahiramo karimo indabo mu ntoki, ari kwitegereza ibiribwa bitandukanye biri aho hantu hagurirwa, harimo karoti, amashu y'umutuku, n'ibindi, beterave.

Akaboko k'umugabo uri guhereza umukobwa telefone, akaba yambaye agapira k'umutuku ndetse n'agataburiye gasa shokora, ibisuko by'umukara, uri guseka. Inyuma ye hakaba hari ibyapa bigaragaza ibikorerwa aho ngaho.

Ahantu harimo udufirigo twinshi dutandukanye. Hakaba harimo n'ibinyobwa bitandukanye amafanta n'amaji ari mu dukarito, n'ari mu macupa. Hakaba ari ahantu hari amakaro n'amatara ari kwaka.